Ishuri ririmo intebe bita pipitire. Abana bazicaraho bari kwiga amasomo yabo. Bikabafasha kwiga neza, batabura aho bicara cyangwa ngo babure aho bandikira.

Iyi ni imikino cyangwa imyicungo y'abana biga mu mashuri bita irerero, ibafasha kuruhuka mu mutwe ndetse no kwishima mu gihe bageze mu karuhuko.

Guteka ni byiza cyane, iyo wabyigiye bigufasha kumenya uko bategura amafunguro meza agezweho kandi akunzwe na benshi cyane.

Aha ni muri salo do kwafire, dore umugore ari kogosha umugabo ndetse afite n'ibikoresho bitandukanye bikoreshwa muri salo nziza kandi bigezweho.

Aba ni abagabo bari gukora imodoka, basa nkabize ibijyanye na mekanike, kandi mekanike ni umurimo, cyangwa n'umwuga mwiza, wo kwiteza imbere nk'abanyarwanda.

Aba banyeshuri bambaye neza cyane, bambaye imyenda igaragaza ko bagaraduwetinze, kandi basa neza cyane, kwiga ni ingenzi cyane kuri buriwe wese.

Aba ni abakozi bashinzwe gupima ibijyanye n'ubutaka, bari mu kibuga cyiza cyane giteweho ubwatsi bwiza cyane ndetse n'amazu meza cyane, ari iruhande rwabo.

Iri ni isomero rifasha abantu mu gusoma indimi zitandukanye, kandi ryifashishwa mu kujijura abatazi gusoma neza.

Gukoresha mashine ni ingenzi cyane, kuko bituma umenya ibijyanye n'iterambere utavuye aho uri. Rero kwiga mashine ni ingenzi kuri buri munyarwanda wese.

Aba ni abacuzi bakora ibijanye no gucura ibyuma, bagafata icyuma bakagishongesha, bakagikoramo iyindi sura nshyasha utapfa kumenya ko ari cya cyuma bari bafite.

Aba ni abanyeshuri bari gukoresha mashine. Mashine ni igikoresho cya elegitoronike cyiza kandi kigezweho, kigufasha kumenya amakuru utavuye aho uri.

Aya ni amasupani akoreshwa mu gukora imodoka ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye bya eregitoronike ndetse kandi ni ibikoresho byiza.

Gukora inkweto ni byiza cyane, ni umwuga mwiza cyane kuko abawukora ubahesha amafaranga ndetse bakabasha no gucuruza ibintu byabo neza.

Aba ni abanyeshuri basa nk'aho bishimye cyane bishimiye ibyo biga ,ndetse no kuba bitwa abanyeshuri bafite ibikoresho nk'amakereyo ndetse n'impapuro.

Abasuderi bari gusudira inzugi ndetse n'amadirisha, bambaye n'imyenda yabugenewe ndetse na fime zo mu maso, kugira ngo hatagira ikibatarukira mu maso.

Aba ni abanyeshuri bari muri rabu, bari mu bushakashatsi bwo gukora ibintu bitandukanye, bitewe n'ibyo biga, kandi bari mu bushakashatsi bwiza nk'u Rwanda rw'ejo.